Umusore wambaye igisarubeti cy'umukara n'amadarubindi y,umukara hafi ye hari abandi bahinzi nabo bari mu bikorwa byo kuhira imyaka yabo. Ari kuhira ibigori bye mu murima urimo ibigori biteye kijyambere.

Uyu musore uri kugenda atera imiti yica udukoko twangiza imyaka, afite ipombo yambaye na ga y'i icyatsi kibisi, arimo arashaka ko imyaka ye izera neza, ni icyayi kandi icyayi gitanga amafaranga.

Umurima urimo imyaka umugabo awurimo arimo ayitera umuti wica udukoko ahetse ipombo mu mugongo ari gufuhira imyaka ngo iticwa n'udusimba.

Umusore wambaye ibirenge, ahetse ipombo, yambaye umwenda wi'icyatsi kibisi, ari gutera umuti wica udukoko twangiza imyaka ihinze kijyambere, ari gutera umuti.

Abagabo babiri bahetse amapombo bari gutera mu myaka bica udukoko twangiza imyaka.

Uyu ni umuganga usa nkaho ari mubushakashatsi, yambaye ga z'icyatsi kibisi, afite agacupa k'icyatsi kibisi bigaragara ko arimo atera umuti ku bihingwa cyangwa ku bimera kugirango akore ubushakashatsi bwe neza.

Ni ikibaya kinini cyane kirimo umuceri mwiza ugeze igihe cyo kuba wasambura, aho abahinzi bari kuwitaho bawutera imiti iwurinda kuba wapfa.

Abarobyi bafite ifi mu ntoki barobye mu cyuzi bagiye kujya kugurisha kugira ngo uburobyi bwabo bubateze imbere.

Umwana wicaye hafi y'ibyuzi bibiri by'amafi, ku nkengero yabyo, hari ishyamba ritari iry'inzitane cyane.

Umugabo uhagaze hejuru y'ibyuzi by'amafi hafi yaho hateye urutoki, afite igikoresho kimeze nk'isahani mu ntoki n'akadobo ari gutera ibyo kurya mu mazi ngo amafi abone ikiyatunga.

Umwana ufite amafi mu ibasi itukura yari yagiye kuroba mu gishanga yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umuhondo.

Akabande kagenewe ubuhinzi, aho gakikijwe n'amashyamba hakurya no hakuno, abahinzi bamaze gutegura imirima banatunda ifumbire bazakoresha bahinga.

Koperative y'abarobyi b'amafi aho baroba bakajyana amafi ku isoko bakayagurisha bakabona amafaranga bakagura ibyo bakeneye, bikabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abarobyi babiri bafite amafi n'andi menshi barunze. Bari kuroba mu buryo bwagenwe na Leta bugezweho.

Ni umurobyi uri mu kiyaga rwagati ari mu bwato afite n'igikoresho akoresha aroba amafi, ngo abe yajya kuyagurisha abona amafaranga yiteza imbere.

Ni umuhinzi uri gutoranya ikawa ziteze n'izipfuye akazirobanura agasiga inzima ari kuzirunda mu ibasi.

Abahinzi benshi bari gusarura umuceri ngo bajye kuwuhura.

Ni abaturage benshi bikoreye ibitebo birimo icyayi, bavuye gusarura mu mirima y'imirambi biganjemo ab'igitsina gore.

Ni akabande kahariwe guhingwamo igihingwa cy'umuceri, aho uteye neza ku murongo kijyambere, ugeze igihe cyo kuwubagara no kuwutera imiti kugira ngo uzatange umusaruro.

Umu mama wicaye uri kwita ku myaka ye. Yambaye umwenda utukura, inkweto z'itukura n'igitenge kiganjemo amabara y'umweru n'umutuku.

Ni umubyeyi uhagaze mu murima wi'kawa nziza cyane zitohagiye, ari kureba uko zimeze nicyo yakora kugira umusaruro uziyongere kurushaho bityo yitezimbere.

Ni umuhinzi w'ikawa ari kuzisarura ashyira mu ndobo, arishimye cyane kuko zimufasha mu iterambere rye rya buri munsi.

Aha ni icyanya cyagenewe kubibiramo ikawa ngo bazazihe abahinzi nyuma bazihinge.

Koperative y'abahinzi ba kawa biganjemo ab'igitsina gore, bari gusarura ikawa zeze ngo bajye kuzisya, bazijyane ku ruganda bahabwe amafaranga biteze imbere.

Abahinzi ba kawa, bari gutora ikawa ziteze bazitoranya muzeze, kugira ngo bazabone uko bazisya, bazitunganyirize mu ruganda babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Ni igiti cya kawa kiriho impundo ariko zitarera.

Aha ni ahantu harunze ibikarito bigiye bitandukanye, mu mabara arimo ayiganjemo amabara y'ubururu, ay'umuhondo ndetse n'umweru, harimo imiti ihabwa amatungo.

Ni icyumba kirimo imiti ihabwa amatungo by'umwihariko inka kugira ngo zigire umukamo uhagije, hari utujerekani turimo imiti ndetse n'udukarito.

Ibikarito by'amoko atandukanye, yiganjemo iby'amabara y'icyatsi kibisi, atukura, ubururu n'umukara, birimo imiti yifashishwa, baha amatungo ngo amererwe neza.

nNi icyuma kirimo imiti, iri mu bikarito by'amabara atandukanye n'amoko y'imiti itandukanye, ihabwa amatungo kugira ngo azagire umukamo no kugira ngo agire ubuzima bwiza muri rusange.

Ibi bikombe by'umweru birimo imiti ihabwa amatungo ya vitamine ahabwa inkoko kugira ngo zikure neza.

Imiti ihabwa inka ngo igire ubuzima bwiza n'umukamo uhagije, iri mu bikarito n'ibikombe byiganjemo amabara: y'umweru, icyatsi kibisi n'umutuku.

Ni amacupa n'utujerekani n'udupipiri twiganjemo amabara y'umweru, harimo imiti yifashishwa bayiha amatungo ngo amererwe neza n'inka zigira umukamo.

Ni igikoresho kirambitse kuri sima n'ishashi irambitse kuri sima, irimo amaherena menshi afite nimero zitandukanye zizifashishwa bambika inka.

Aba ni abahinzi babiri umwe afite isuka ku rutugu ubundi ayitwaye mu ntoki. Yikoreye n'urukwi rwo kuza gutekesha ibiryo. Bavuye mu mirimo yabo ya buri munsi ibageza ku iterambere bashaka.

Umugabo wambaye bote z'umukara n'igisarubeti cy'ubururu, uri kwita ku nka ubuzima bwazo muri rusange. Ni inka z'inyambo zifite amahembe maremare ziri kosa inyana zazo, hari n'ikiraro zitahamo.

Ni abahinzi babigize umwuga, aho ku buso bunini, bari kwita ku myaka yabo bahinze, bayibaga, bayikiza, ibyatsi ngo izagire umusaruro bityo biteze imbere.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage biganjemo abagabo n'abagore, hari ingurube nyinshi cyane z'amashashi ziri guhabwa abaturage mu rwego rwo kwiteza imbere.

Igishanga kinini gitandukanywa n'umuhanda w'igitaka, gikorerwamo ubuhinzi bw'umuceri, hari abaturage bari kubagara umuceri kugira ngo bazabone umusaruro mwiza.

Abaturage bari mu murambi urimo ibyatsi bigufi. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru. Bari mu bikorwa byo gutera ibiti bikurura imvura, bizana umwuka mwiza, bikarwanya n'isuri.

Numugabo ufite ikimera cy'umunyinya gihinze mu ivasi ari kumwe numukobwa ufite umufuka mu ntoki wambaye imyenda y'umukara n'umupira w'umweru hirya yabo hari umukobwa wambaye ipantaro yikoboyi n'umupira utukura wanadefirije ahetse n'igikapu mu mumugongo.

Uyu ni umumama uri kwerekana umusaruro w'ibigori, ari mu bwanuriro bw'ibigori aho bisharitse ku biti ngo bazabone uko babihungura bahunike umusaruro wabyo bityo baziteze imbere.

Umugabo wambaye ga z'umukara ishati y'umweru ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara, bari mu misozi idahanamye cyane, ari gutera igiti cya gereveriya kugira ngo hirindwe inkangu hafi ye hahagaze umusirikare ni gikorwa cya leta.

Umuturage uhagaze hafi y'umurima uhinzemo ibigori by'imbuto y'indobanure, yambaye imyenda y'ubururu n'ijipo itukura irimo amabara y'umukara.

Abahinzi babiri bari mu murima munini cyane w'ibigori bigeze igihe cyo kubagarwa, bari kubitera imiti ibirinda udukoko twabyangiza nka nkongwa.

Ni abashumba bambaye imyenda yiganjemo iy'umukara n'umutuku, bari mu nka nyinshi z'ubushyo bari kwitaho, aho bazirongoye bagiye kuzishakira aha ubwatsi ngo zirishe.

Ikibaya kirimo umuceri weze wo gusarurwa, hakurya yaho ni imisozi idahanamye cyane ituweho n'abaturage batari benshi.

Ibimera bigituruka mu butaka bitaramara iminsi myinshi, n'ibigori n'ibishyimbo bisa neza bizagira umusaruro.

Ni ubuhinzi bw'urutoki, aho bihingwa bijyanwa ku isoko, umuturage agurisha akagura ibyo akeneye, bimufasha kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iri ni ishyamba ryinshi cyane rya kimeza, aho mu kabande hahinze umuceri weze ugeze igihe cyo gusarurwa, hari n'abaturage bawurinze kugira ngo bawurinde inyoni zitawurya.

Ni urutoki rwinshi cyane rurimo insina ziyaga ndetse n'imirima ihinzemo imyaka itandukanye nk'imyumbati n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ni umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo intunguru, imbwija, n'ibindi bitandukanye bijyanwa ku isoko n'umuhinzi, kugira ngo yiteze imbere.

Iki ni igishanga gihingwamo umuceri, hakurya mu gikuka hahingwa ibigori, hari n'ibiti bya gereveriya byazamutse hejuru cyane.

Imbuto y'ibigori bifite ibara ry'umuhondo, ni indobanure zoguhingwa kugira ngo umuturage azabone umusaruro uhagije nawe yiteza imbere.

Ni amashu yishwe n'izuba ibibabi byarumye ahinze mu murima munini cyane n'ibihingwa benshi bahinga bitewe n'uko ari igihingwa ngandurarugo.

Ni igiti cy'umwembe giteye mu murima urimo iyindi myaka, kirekire gifite amashami menshi kitarageza igihe cyo kuba cyakwera.

Ni umurima munini cyane w'umurambi utari umusozi uhanamye, aho umuhinzi afite umuhoro mu ntoki ari kugenda akorera neza urutoki rwe kugira ngo ruzamuhe umusaruro yitezimbere.

Mu giturage hari umuhanda w'igitaka aho umuntu wese ari mu mirimo ye ya buri munsi. Abana bari kurya imisigati y'aho batemye amasaka hafi yaho hari n'urutoki, n'inzu z'ibyondo zidateye sima.

Ni muri parike, aho abakerarugendo bafite kamera, bari kwifata videwo banafotora inyamaswa basanze muri parike nk'ingagi, dore ko ari kimwe mu nyamaswa zikunzwe zikurura ba mukerarugendo.

Ishyamba ry'inzitane rya kimeza rikurura ba mukerarugendo, ririmo n'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye, aho birindirwa umutekano ngo ba rushimusi batazica.

Ishyamba riri mu misozi ihanamye rya kimeza ribitse urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye, bikurura ba mukerarugendo bakaza kubireba bagatanga amadevize, igihugu kikagira iterambere.

Akabande gahinzemo igihingwa cy'urutoki, hafi yaho hahinze umuceri, hakurya y'urutoki hari ishyamba ryinshi ry'inzitane rirerire.

Ni ibiti birebire bihagaze mu cyanya kirimo ubwatsi butoshye aho inka nyinshi cyane zirimo iz'Ibibamba ziri kurisha ubwatsi.

Ishyamba ryinshi ry'inzitane rya kimeza, riri ku kumusozi muremure uhanamye, ukikijwe n'ibice by'imirambi n'ikirere gikeye.

Imisozi myiza y'imirambi yagenewe guhingwaho icyayi yiteganye n'imisozi myiza ituweho n'abaturage benshi.

Abantu bambaye imyenda y'impuzankano ubona ko bari mu gikorwa cy'umuganda ,n'ubufatanye hamwe n'inzego z'umutekano ,umusirikari n'abaturage bambaye na ga.

Ikiyaga kinini cyane kiri hagati y'imisozi idahanamye hafi yaho hari ikibaya kirimo ibyatsi bitari birebire n'ibiti bigufi byera imbuto nk'amacunga.

Umugabo wunamye wambaye isarubeti yi'cyatsi kibisi yambaye na bote ari gusarura inyanya zatukuye zihinze mu murima zihinze kijyambere.

Ni ubusitani bwiza buteyemo indabo pasiparume, n'imyembe hari umwembe weze uriho imyembe yaguye hasi ndetse hafi yaho hari n'igiti cy'umukindo.

Umugore wambaye ikanzu uteze n'igitambaro uri kuhira imboga akoresheje indobo itukura .

Hano ni mu cyanya cyagenewe kubangurira imbuto z'ibiribwa bigiye bitandukanye nk'imyembe iteretse mu dukombe, amavoka, indimu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umumama wambaye umwenda w'icyatsi kibisi, igitambaro cy'umukara. Ari kwita ku ndabo zirimo amabara atukura n'icyatsi kibisi.

Imodoka iparitse mu gipangu gifunze yo mu bwoko bwa toyota hari n'igiti cy'mwembe giteye mu rugo weze, indabo ndetse n'urutoki.

Ni umuhinzi wabigize umwuga aho, ari kumwe na mugenzi we bari, mu murima munini cyane uhinzemo, intababara nka kimwe mu bihingwa, bitanga amafaranga menshi atezimbere umuhinzi.

Ni ubuhinzi bw'inanasi zihingwa mu buryo bwa kijyambere, zireze zigeze mu gihe cyo kujyanwa ku isoko zikagurishwa umuturage akiteza imbere.

Ni icyanya kinini cyane ahari abahinzi babigize umwuga, bahinga indabo nka kimwe mu bihingwa byoherezwa mu mahanga, bikazana iterambere ku gihugu ndetse n'abaturage bazihinga muri rusange.

Ni abahinzi bahinga ibihingwa by'inanasi aho buri wese afite inanasi mu ntoki nk'umusaruro umuhinzi wese yishimira, babijyana ku isoko bakabona amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Ni ikibaya kinini cyane gihinzemo amashu ateye mu buryo bwa kijyambere ku murongo. Yitabwaho kugira ngo azatange umusaruro, anateze imbere abahinzi bayahinze.

Uyu ni umugabo uri kuhira imbuto harimo; amashu, ubutunguru hafi ye hari urutoki n'ishyamba, afite n'isuka mu ntoki.

Ni icyanya cyahariwe ubuhinzi, n'itaba rirerire cyane rikikijwe n'imisozi ihanamenye, n'ibikoresho byabugenewe mu kuhira imyaka ihinze.

Ni ibihingwa by'ibigori bihinze mu kibaya kinini cyane, bivuye mu gihe k'ibagarwa aho abahinzi babiri bambaye bote z'umukara, ibisarubeti by'umukara barimo bavomerera ibi bigori.

Ni abahinzi bari mu murima aho bahinze imyaka kijyambere, bakaba bari kuvomera kugira ngo imyaka yabo ikure neza, bitewe nuko izuba ryabaye ryinshi.

Ni umuhinzi wabigize umwuga ari kuvomera akoresheje imashini, imyaka ari kuvomera ni amashu ahinze kijyambere.

Iki ni icyanya cyagenewe kuhirirwamo no gutunganyirizamo imyaka. Bigaragara ko yitabwaho cyane. Iyi myaka nk'uko bigaragara ni karoti ubona ko zitabwaho cyane kugira ngo zizatange umusaruro kandi zikaba ari imbuto z'indobanure.

Ni umurima uhinzemo beterave zihinze mu buryo bwa kijyambere n'ubuvomerezi bugezweho buvomera izi beterave kugira ngo zituma hifashishijwe imirasire y'izuba.

Ni ikibaya kinini cyane gikikijwe n'imisozi ihanamye gihinzemo icyayi gitoshye, kiri gukorerwamo ibikorwa byo kuvomera mu gihe imvura yabuze.

Ni uturima duto cyane duhinzemo ibihingwa bya beterave n'ubuvomerezi bugezweho bwo kuvomera izi mbuto ngo zituma.

Ni umuhinzi w'umubyeyi ufite indobo itukura, ari kuvomera imyaka ye, beterave nziza cyane zihinze muburyo bwa kijyambere kugira ngo zere azigurishe yiteze imbere.

Ni imirima ihinzemo ibigori bigeze igihe cyo gusukirwa, hari uburyo bugezweho bwo gukora ubuvomerezi kugira ngo ibigori birusheho gukura neza.

Ni umuhinzi wabigize umwuga, aho ari kuvomera imyaka ye kugira ngo izakure imeze neza, imvura yaravuze ari gukoresha ubu buryo bwo kuhira imyaka.

Umugabo ufite rozwari ebyiri yambaye ingofero ari gukora ubuvomezi bwimyaka, kugira ngo izere, imvura yarabuze imyaka ye ishaka kuma none ari kuyivomera.

Ni misozi miremire cyane ihanamye ihinzeho amashyamba itandukanywa n'ikiyaga, aho kuri iyi misozi ihinzeho ibihingwa bitandukanye nk'urutoki, kawa, n'ibindi iriho n'amaterasi y'indinganire yo kugira ngo harwanywe isuri.

Imisozi ihanamye iriho ibimera byiganjemo amabara y'icyatsi kibisi bitazamutse ngo bigere hejuru cyane.

Imisozi iteyeho amashyamba, hagati y'iyi misozi harimo ibiyaga, hari n'ibirwa biri hagati mu kiyaga n'imisozi hakurya y'ikiyaga ihanamye.

Ku umusozi udahanamye cyane uriho amaterasi y'indinganire, hateyeho imyaka itandukanye yiganjemo icyayi n'ikawa.

Inka iri mu kiraro inyana yayo, ifite amabara y'umukara n'umweru, iri kuyikomba ihagaze, inyana iryamye hasi mu byatsi byumye.

Inka yo mu bwoko bwa firizoni iri mu kiraro ahakorerwa ubworozi bwa kijyambere, yambaye iherena ry'umuhondo, hari n'aho bayihera ubwatsi.

Inka, zo mu bwoko, bwa firizoni, enye zihagaze hamwe imwe, iraryamye, hafi yaho hari, aho zinywera amazi mu kibumbiro.

Ingurube y'ishashi y'umweru. Iri ahantu heza cyane hatagera icyondo n'ibisogororo kugira ngo yitabweho neza izabashe gutanga inyungu ikwiriye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye haba intebe n'udukombe, gikorerwamo ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko.

Mu rwego rwo kwiteza imbere n'ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere bugezweho, aho ziba bazishyirira ibyo kurya bakazitaho, bakanazivura.

Ishyo ry'inka riri mu rwuri.

Iyi ni ingurube iri aho yororerwa ni isekurume yimya izindi kugira ngo hiyongere amatungo y'ingurube mu gihugu kandi azamura iterambere rya buri munyarwanda wese.

Mu kiraro gikomeye cyubakishijwe ibyuma harimo akanyana gatoya karyamye, hashashemo n'ibyatsi bagasasiye ngo katazarwara indwara.

Ubushyo bw'inka zihuriye hamwe aho abashumba barimo bazikama, abandi bari kuzicunga ngo zitiruka zikava aho bari kuzikamira.

Ni ikiraro kinini cyane cyubatse mu buryo bwa kijyambere, harimo inka nyinshi zo mu bwoko bwa firizoni, zimwe ziraryamye izindi zirahagaze, hari umuveterineri uri gutunga urutoki imwe.

Ni ubworozi bw'inkoko za kijyambere bugezweho, aho ziri mu nzu zigomba gukuriramo kugira ngo zizatange umusaruro ku mworozi wabigize umwuga ngo yiteze imbere.

Ni ubworozi bwa kijyambere inkwavu nyinshi ziri mu tuvu twazo, inkwavu za kizungu z'umweru, hari n'ibikoresho bazishyiriyemo ibyo kurya.

Inka nyinshi z'Inyambo zifite amahembe maremare ziri mu rupango n'abaveterineri barimo bazitaho bambaye amataburiye y'umweru n'ibisarubiti by'ubururu na bote z'umweru.

izi ni nka nyinshi z'inyambo ziri mu rupango aho ziri kwitabwaho n'abaveterineri bambaye amatabuririya y'umweru, n'amataburiya y'ubururu, hari n'umushumba uri kuzagaza afite ikote ku rutugu n'intebe ya sheze irambitseho igikarito hejuru.

Ni inka nyinshi ziri mu kiraro ziri kurya ubwatsi bazihaye, mu bworozi bwa kijyambere ziri mu kiraro kinini, hafi yaho hari n'ubuso bw'umurima uteyemo ubwatsi bw'urubingo bugaburirwa izi nka.

Iyi ni ishashi y'ingurube ifite iherena ry'umuhondo ku gutwi byerekana ko yavuye mu isoko ryemewe n'amategeko.

Ni ubushyo bw'inka ziri mu rupango z'inyambo zifite amahembe maremare, n'itsinda ry'abaveterineri barimo bazitaho bazivura.

Mu rwuri rw'inka hari ubushyo, aho zirimo zirisha kugira ngo zizatange umukamo uhagije n'umworozi wazoroye azabashe kwiteza imbere.

Icyumba kinini cyane kirimo imifuka irimo imbuto zizifashishwa mu guhinga mu cyiciro kizakurikira, ni ho abaturage bayibabikira ngo bazayibahe mu gihe cy'ihinga.

Ni abakozi bazi ibigendanye n'ubuhinzi b'abahanga cyane bakora ibyo gutubura imyaka kugira ngo izere neza, bari ku mashini zabugenewe zigenewe gutubura imyaka

Icyumba kinini kimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umukara, harimo imifuka myinshi yuzuyemo sondora iva ku muceri, aho ihabwa amatungo nk'inkoko ndetse n'ingurube.

Ikiganza kirimo impeke haragaragaramo soya, haragaragaramo amashaza ndetse n'inkori ubona ko ari nk'umuhinzi uri kureba ubwoko bw'imbuto azahinga.

Umubyeyi uri gugosora ibishyimbo ku rutaro rushaje yambaye imyenda y'umukara n'agasengengeri k'umweru, ari kubihuha kugira ngo abone uko ahunika imyaka yejeje.

Ni ubushyo bw'inka nyinshi z'inyambo, zifite amahembe maremare, aho ziri hamwe, ziri kwitabwaho n'abaveterineri, bakurikirana ubuzima bwazo ngo zizatange umukamo.

Izi ni inka z'inyambo zifite amahembe maremare, ziri kwitabwaho n'aba veterineri bambaye amataburiya y'umweru na gaz'ubururu n'umushumba ufite inkoni mu ntoki.

Inka ziri mu rupango n'inyambo zifite amahembe maremare, hafi yazo hari abaveterineri batatu bambaye ibisarubeti by'ubururu n'umwe wambaye isarubeti y'umweru ari kuzitaho areba uko ubuzima bwazo bumeze.

Ni inka ihagaze mu rupango, aho abaveterineri bayifashe umurizo, undi ari kuyitera urushinge, bakurikirana ubuzima bwayo kugira ngo izatange umukamo uhagije.

Ni inka babaze inyama, bazirambura hasi, aho Veterineri ari kureba icyatumye, inka ipfa, ngo abaturage batayirya nabo bakandura indwara.

Inka ihagaze mu rupango y'inyambo ifite amahembe maremare, iri kwitabwaho n'umusore wambaye bote z'umweru n'isarubeti y'ubururu n'ingofero y'umweru, hirya ye hari n'indi nka iyahagaze.

Aha ni mu cyanya cyagenewe inyamaswa n'urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, iyi ni intare ikaba ari nawe umwami w'ishyamba nk'uko bivugwa.

Ni inyamanswa iri muri parike izwi nk'idubu aho iri kwiruka mu ishyamba, ihunga izindi nyamanswa nini ngo zitayirya.

Inyamaswa iri mu misozi idahanamye cyane, ni ibibaya bihinzeho imikenke iri kwambukiranya iva mu kibaya kimwe ijya mu kindi itaruka umugezi.